Mu rwego rwo guhashya indwara zikomoka ku mwanda, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gushyiraho abakozi bashinzwe gukora amasuku mu bitaro hirya no hino mu Gihugu, kugira ngo no mu bitaro na ho harangwe isuku, na ho bitazateza ikibazo cy'indwara zikomoka ku mwanda.

Leta y'u Rwanda kugira ngo irusheho guhangana n'ikibazo cy'indwara z'ibyorezo ziri kwaduka muri iyi minsi, yashyizeho gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage kugira ngo abaturage bayifashishe bakaraba intoki ndetse bakoresheje ayo mazi meza n'isabune kugira ngo bahangane n'indwara z'ibyorezo.

Abajyanama b'ubuzima bahabwa amahugurwa uko imyaka igenda yiyongera. Kugira ngo barusheho kunoza neza serivisi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze batanga ku baturage, bityo bigafasha ubuzima bw'abaturage kumererwa neza.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ndetse n'ikigo cya rbc gishinzwe ubuzima mu Rwanda, babishishikariza abaturarwanda bose kuba hafi y'abana babo, bakababuza kwirigwa mu mazi afite imyanda cyane cyane amazi y'ibidendezi, kuko aya mazi atera uburwayi ku bana.

Gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, ni gahunda yafashwe na Leta y'u Rwanda, kugira ngo barusheho guhangana n'ikibazo cy'indwara ziterwa n'umwanda kandi ni mu rwego rwo kugira ngo abaturage na bo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuryango ushinzwe kwita ku buzima bw'ikiremwamuntu ku isi, ari wo OMS, waje kwifashisha UNICEF mu buryo bwo kugira ngo babashe kwita ku mibereho myiza y'abana bakiri bato ndetse no kubaha ubutabazi bw'ibanze, bw'ibyo kurya ndetse n'ibishobora kubongerera intungamubiri.

Leta y'u Rwanda ikomeje gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose bityo rero bagenda bifashisha amatiyo mu kubaka imiyoboro itandukanye hirya no hino mu gihugu, kugira ngo amazi abashe kugera no mu misozi hose.

Leta y'u Rwanda yafashe gahunda nziza yo gukwirakwiza amazi mu baturage kuko ubushakashatsi bwakozwe bwari bwaragaragaje ko abaturage bose badafite amazi meza, ni muri urwo rwego rero bafashe umwanzuro wo kwagura imiyoboro y'amazi kugira ngo abaturage bose babashe kubona amazi meza.

Leta y'u Rwanda iraburira abaturarwanda bose, kwirinda gukoresha amazi y'ibiziba cyangwa se amazi y'ibidendezi kuko aya mazi aba arimo inzoka nyinshi kandi akaba yakangiza ubuzima bw'abantu bayakoresha.

Mu rwego rwo kongera imibereho myiza y'abaturage, Leta y'u Rwanda yakwirakwije amazi mu baturage irayabegereza ariko rero, nanone Minisiteri y'u Rwanda irashishikariza ababyeyi kwirinda kuvunisha abana babo, babakoresha imirimo itavunanye.

Buri mwaka hakogwa ibarura rishingiye mu kugaragaza imibereho y'abaturage ndetse n'ubuzima bwabo, uko buhagaze. Iri barura kandi rikuzwe gukogwa n'abajyanama b'ubuzima, kubera bo bakunze kuba hafi y'abaturage kandi akaba aribo babana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abaturage benshi bakoresha amazi mabi bityo bikabaviramo uburwayi butandukanye bukomoka ku myanda, ariko Leta y'u Rwanda mu kugisubiza icyo kibazo, yahise ishyiraho gahunda ijyanye no gutanga amazi ku baturage bose kandi ikabaha amazi meza asukuye.

Ibihugu by'i Burayi bihangayikishijwe n'indwara z'inzaduka, aho dusanga hari kwaduka ibyorezo bitandukanye. Bityo rero, ishami rishinzwe ubuzima ku isi ari ryo OMS, risabwa kongererwa ingufu kugira ngo ribashe guhangana n'ibyo byorezo.

Abantu bose bakora mu nzego z'ubuvuzi bahabwa amahugurwa uko iminsi igenda ishira kugira ngo barusheho kunoza umurimo bakora wo gutanga serivisi zinoze ku baje babagana bose, ni byiza kandi ko bakora akazi nk'abikorera kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza.

Mu rwego rwo kurandura burundu indwara y'umuvuduko w'amaraso, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda, yo gukora isuzuma ku bantu bose baje bagana amavuriro. Mu gihugu ahantu hose hatandukanye, kugira ngo babashe kumenya niba nta ndwara y'umuvuduko w'amaraso bafite.

Abaganga bose bakora mu nzego z'ubuzima, uko iminsi igenda yiyongera ni ko Leta igenda ibategurira gahunda y'amahugurwa. Bakabahugura ku bijyanye n'umwuga bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo barusheho kunoza umurimo wabo, banatange serivisi nziza.

Leta y'u Rwanda yakomeje gushyira ingufu mu bikorwa bijyanye no gukwirakwiza amazi mu baturage kugira ngo ibegereze amazi yo gukoresha mu bikorwa bijyanye no kurwanya indwara zikomoka ku mwanda. Bityo rero abaturage na bo bakoresha ayo mazi banasukura ibiribwa ndetse banasukura aho batuye mu rwego rwo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri y'ubuzima yakoze ubushakashatsi igaragaza ko abantu benshi bapfa bahitanywe n'indwara ziterwa n'umwanda, bityo rero haje gukorwa ishoramari rijyanye no gukwirakwiza amazi mu baturage kugira ngo barusheho kugira isuku mu rwego rwo kurwanya izo ndwara.

Leta y'u Rwanda yakoze ubukangurambaga, ishishikariza abaturage bose, cyane cyane ababyeyi bafite abana batoya kugira ngo baze bitabira kubajyana kubapimisha kwa muganga, abaganga babafate ibipimo byose bikenerwa kugira ngo bamenye uko ubuzima bw'abana buhagaze.

Ababyeyi bose bafite abana bakiri batoya barashishikarizwa kwitabira serivise zose zitangwa ku bana bakiri batoya kwa muganga, kugira ngo abaganga babafate ibipimo byose kandi banabasuzume kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kwitabwaho; banarebe niba abo bana bitabwaho neza kandi bakonswa uko bikwiye.

Umuryango ku Isi ushinzwe kurengera ubuzima ari wo OMS, uhangayikishijwe n'impfu z'abantu zikomeje kwiyongera, cyane cyane ko mu myaka yashize abagore benshi bapfiraga mu bitaro mu gihe cyo kubyara.

Ni ngombwa gukangurira ababyeyi bose bafite abana, kwitabira gahunda yo kubakingiza bityo bagahabwa inkingo ku buryo bukwiye kugira ngo ubuzima bw'abana batoya, burusheho kubungwabungwa kandi babashe gukura neza, nta kibazo cy'uburwayi bafite.

Leta y'u Rwanda ishishikajwe no gukora ibikorwa bitandukanye, bijyanye no kongerarera ingufu mu bintu bijyanye no gushora amafaranga mu bikorwa bijyanye no kongera imibereho myiza y'abaturage ndetse no kongera inyubako zitandukanye z'ibitaro zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Leta y'u Rwanda yakwirakwije amazi meza mu baturage hose kugira ngo ibashe guhangana n'ikibazo cy'indwara z'ibyorezo ziri kwaduka muri iyi minsi, muri iyo gahunda kandi Ikigo Gishinzwe Ubuzima mu Rwanda kirashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki kenshi gashoboka bakoresheje amazi meza n'isabune.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukwirakwiza amazi mu baturage hose, mu rwego rwo kurandura burundu indwara zikomoka ku mwanda. Ibi byaje gufasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza kuko bifashisha ayo mazi bakora amasuku, banasukura ibiribwa byabo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irashishikariza abaturage bose bafite abana batoya, kubajyana muri gahunda zo kubakingiza ku bitaro ndetse no ku Bigo Nderabuzima, kandi bagasabwa kubahesha inkingo uko bikwiye nta na rumwe batarutse. Kandi Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturage bose, kujyana abana babo kwa muganga kurusha uko babaha imiti ya kinyarwanda itizewe.

Leta y'u Rwanda ifite gahunda yo gukwirakwiza amazi meza ku baturage bose, aho yagiye yubaka imigezi hirya no hino mu gihugu, ikanagenda ikwirakwiza imiyoboro y'amazi mu baturage bose kugira ngo barusheho kubona amazi meza.

Abayobozi bakuru bari mu muryango wa OMS ushinzwe ubuzima ku Isi hose, bahurira hamwe bakaganira ku bijyanye, no kongera imibereho myiza y'abaturage ndetse no kurandura uburwayi cyane cyane nk'ibyorezo biza bitunguranye kugira ngo ubuzima bw'abatuye Isi yose burusheho kugenda neza.

Ubuyobozi bw'u Rwanda bukomeje gushyira hamwe, butegura inama zitandukanye ku bijyanye no guhangana n'icyorezo cy'Ubushita kugira ngo barebe ko babasha kugitsinda ubuzima bw'abaturage bukarushaho gukomeza kugenda neza.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera ingufu, muri serivisi zitangwa mu nzego z'ubuzima, kugira ngo barusheho gusigasira ubuzima bw'abaturarwanda bose, kandi barusheho no kongera ingufu mu kongera imibereho myiza y'abaturage.

Leta y'u Rwanda yashyize ingufu mu nzego z'ubuzima kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza kandi zinoze, cyane cyane mu bijyanye no kwita ku bana bakiri bato bari hagati y'amezi abiri n'amezi cumi n'abiri.

Ibitaro byose ndetse n'ibigo nderabuzima byose byo mu Rwanda, bigira ibitabo ndetse n'amakayi bandikamo imyirondoro y'abarwayi baje babagana. Mbese muri make ibyo bitabo bandikamo imyirondoro yabo, uburwayi bafite ndetse n'ibizamini babafashe.

Abantu bose bakora mu nzego z'ubuvuzi, barasabwa kwitwararika mu gihe batanga serivisi kuko akenshi byaje kugaragara ko abo baha serivisi rimwe na rimwe bakunda kubanduza indwara zitandukanye bikaba byabagiraho ingaruka, muri urwo rwego rero basabwa kwambara imyenda yabugenewe bakambara neza kandi bakikwiza mu gihe basuzuma abarwayi.

Mu rwego rwo guhangana n'indwara z'ibyorezo z'inzaduka muri iyi minsi, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage kugira ngo bayifashishe bakaraba intoki n'ayo mazi meza ndetse n'isabune.

Ishami rishinzwe ubuzima ku isi rya OMS, buri gihe baterana bafata ingamba, ku bintu bijyanye no kurwanya indwara z'ibyorezo, dore ko muri iyi minsi ibyorezo biri ku mwanya, w'indwara zihangayikishije isi yose.

Leta y'u Rwanda yongeye imbaraga mu bikogwaremezo cyane cyane ibikogwa bijyanye no gukwirakwiza amazi mu baturage. Aha dusangamo aho baguye imiyoboro y'amazi bakongera ndetse n'umubare w'amavomero rusange mu baturage.

Mu myaka yashize, wasangaga ikibazo cy’amazi ari ikibazo gikomereye abaturage. Aho wasangaga bavoma amazi mabi ashoka hasi ku itaka nta n'amatiyo ayobora ayo mazi. Ariko ubu Leta y’u Rwanda yafashe ingamba, ishyiraho gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose.

Umuryango wa OMS ushinzwe ubuzima ku Isi, wifatanyije n'ishami rya UNICEF kugira ngo barusheho kwita ku mibereho ndetse n'ubuzima bw'abana bakiri batoya, barandure igwingira ndetse n'indwara zikomoka ku mirire mibi kugira ngo abana barusheho kugira ubuzima bwiza.

Muri iki kinyejana tugezemo, ibihugu byinshi bishishikajwe no gushyiraho uburezi budaheza, bushishikajwe no gushyiraho uburezi buha ikaze buri umwe wese ujya abugana kandi bashaka kongera ireme ry'uburezi ku rwego rudasanzwe.

Mu rwego rwo gukumira indwara ziterwa n'ibyorezo cyangwa se zikwirakwira vuba, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yashyizeho gahunda yo gufata ibipimo by'umuriro ku bantu bose bagana amavuriro. Kugira ngo uwaba afite ikibazo cy'uburwayi bw'icyorezo runaka, ibimenyetso igihe bigaragaye, bamukumire atari yanduza abandi.

Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturarwanda bose ndetse n'abantu bose bafite abantu babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kubaba hafi kugira ngo igihe ubwo burwayi bwabo bwahagurutse babashe kubafasha babahe ubutabazi bw'ibanze, babajyane kwa muganga batabashe kwangiza umutekano wa bagenzi babo.

Ni byiza guhugura ababyeyi bafite abana bakiri bato, bakabatoza gutegura amafunguro yuzuye kandi yujuje ubuziranenge, amafunguro akaba arimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ngo barwanye igwingira ry'abana.

Abayobozi batandukanye bakora mu nzego z'ubuzima, bahurira hamwe bakaganira ku ngamba zafatwa kugira ngo barusheho kongera imibereho myiza y'abaturage ndetse barusheho no gutanga serivisi zinogeye abaza babagana.

Abantu bafite ubunararibonye bujyanye no kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe baba bakeneye guhora bahabwa amahugurwa ku bijyanye no gutanga serivisi ku barwayi bo mu mutwe, ibi kandi bikorwa hifashishijwe ibiganiro bahabwa ndetse n'uburyo bagakwiye kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bose bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni ngombwa ko bitabwaho cyane, kandi abo babona ko bitari ngombwa gukira vuba, bakabohereza mu bigo bishinzwe kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, urugero dusangamo nk'ikigo k'i Ndera.

Abantu bose bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni ngombwa ko hagira abantu bababa hafi kugira ngo igihe ubwo burwayi bwahagurutse babafashe, bababe hafi bityo hatagira ibyo bangiza cyangwa se bakaba bahungabanya n'umutekano wa bagenzi babo.

Abaganga bose aho bava bakagera cyangwa se n'abandi bantu batanga serivisi mu nzego z'ubuzima, bose bafatwa nk'inshuti mu buzima kuko ari abantu bakora bya hafi kandi bakanakorana n'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, iteka ryose leta ihorabakangurira gutanga serivisi zinoze.

Leta y'u Rwanda ikomeje gahunda yo gutanga amahugurwa ku bantu benshi batandukanye, hirya no hino mu gihugu kugira ngo barusheho kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ,ndetse no kubaha serivisi mu buryo bukwiye kandi bunoze.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kugenda itanga amahugurwa ku baturage, cyane cyane abakora mu nzego z'ubuzima kugira ngo basobanukirwe neza ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, abahawe aya mahugurwa bifashisha mu gukemura ikibazo cy'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse bakababa hafi kugira ngo babashe kuborohereza uburwayi.

Inzego z'ubuzima mu Rwanda, zikomeje gutanga amahugurwa ku bantu bose bakora mu nzego z'ubuzima, kugira ngo barusheho kunoza ndetse no gutanga serivisi zinoze, ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ni muri ubwo buryo rero barushaho gusobanurirwa neza, uko bakita ku muntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bose bafite bagenzi babo babana n'uburwayi bwo mu mutwe, barasabwa kubaba hafi igihe cyose kandi barasabwa kwihutira kubajyana kwa muganga, igihe babona ubuzima bwabo butameze neza kandi bakarushaho no gukumira ingaruka bateza mu baturanyi ndetse no mu bandi bantu aho hafi, igihe ubwo burwayi bwaba bwabafashe.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, cyashyizeho ibigo bitandukanye ndetse n'ibitaro bitandukanye, bishinzwe gusuzuma ibintu bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo babashe gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu babonaho icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abaturage, kwirinda ibiyobyabwenge kuko ubikunsomye wese bimugiraho ingaruka ku mibereho ye ndetse bikaba byatuma yangirika no ku bice bimwe na bimwe bigize ubwonko.

Leta y'u Rwanda yaguye ibitaro hirya no hino mu gihugu bitandukanye, harimo n'ibitaro bijyanye no kwita ku burwayi bwo mu mutwe ndetse yagura n'amashuri hirya no hino, atoza abanyeshuri kuzavamo abaganga b'ejo hazaza.

Ni ngombwa ko uko imyaka igenda ishira cyangwa se uko iminsi igenda yiyongera, Leta y'u Rwanda irushaho kugenda itegura amahugurwa, isobanurira abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi ibijyanye no gutanga serivisi nziza kandi inogeye buri umwe wese. Bityo bikazarushaho gutuma barushaho kubungabunga ubuzima bw'abaje babagana.

Leta y'u Rwanda ndetse na minisiteri y'ubuzima barashishikariza abaturarwanda bose kuba hafi y'abantu bose bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kuko bitabaye ibyo igihe abo bantu uburwayi bwo mu mutwe bwahagurutse, byatuma bangiza umutekano wa bagenzi babo cyangwa se bakaba banakwangiza ibikorwa bitandukanye.

Ibitaro bya Ndera, ni bimwe mu bitaro byita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kandi byaje kugaragara ko abo baganga bakora muri ibyo bitaro bahabwa amahugurwa ndetse n'abaganga baturutse mu mahanga kugira ngo barusheho kunoza serivisi zitangwa kuri abo bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Leta y'u Rwanda ikomeje ibikorwa byo gutanga amahugurwa ku rubyiruko ndetse n'abaganga, ku bijyanye no kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse no kugabanya ingaruka z'ibibazo bashobora guteza mu baturage.

Abantu bafite abaturanyi babana n'ubumuga bwo mu mutwe, barasabwa kwitwararika kandi igihe babona bitameze neza bakaba bamenyesha inzego z'umutekano kugira ngo bakumire ibyaha bishobora kuba byakozwe n'uwo muntu ubana n'uburwayi bwo mu mutwe.

Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gukemura no guhangana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yashyizeho gahunda yo guhugura abantu batandukanye bakora mu nzego z'ubuvuzi, bashobora kuza bifashishwa mu kuba hafi y'aba bantu babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje gahunda yo gutanga amahugurwa ku bantu bose batanga serivisi z'ubuzima kandi ikomeje no kubahugura, ku bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo barusheho gusigasira ubuzima bwabo.

Kugira isuku y'amenyo ni ibintu byiza cyane, kuko birinda umuntu ukora isuku mu kanwa ke, kuba yagira ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo. Biba byiza kandi iyo ukoresheje umuti wabugenewe, ugakoresha n'uburoso bwabugenewe, cyangwa se ugakoresha urudodo, mu mugihe usukura amenyo yawe.

Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda, zimaze gutera imbere ku rwego rushimishije. Aho usanga, ku rwego rw'ubuvuzi bw'amenyo mu Rwanda, baragiye bazana ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gusuzuma amenyo, ndetse no gukura amenyo mu buryo butandukanye, kandi hakirindwa ingaruka mbi zishobora guturuka mu gukura amenyo nabi.

Inzego z'ubuvuzi zimaze gutera imbere, ku rwego rushimishi mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga abarwayi bishimira serivisi nziza bahabwa n'abaganga, kandi byaje kugaragara ko abaganga bahawe amahugurwa, ndetse n'amasomo ku bijyanye no kuvura uburwayi bw'amenyo.

Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturarwanda bose kwita ku bana babo kandi bakanagenzura niba amenyo yabo ameze neza, uwo basanze afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo cyangwa se amenyo atameze neza, bakihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo abaganga babigenewe bamukorere isuzuma kandi bamuhe n'ubutabazi bw'ibanze.

Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda, cyane cyane ubuvuzi buvura amenyo, bumaze gutera imbere ku rwego rushimishije, aho usanga bagenda bagura ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha mu gusuzuma uburwayi bw'amenyo, ndetse no kuyavura.

Amenyo ni igice cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu kandi amenyo ni igice gifite agaciro gakomeye, bityo rero Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abaturage bose kwita ku menyo yabo kandi bakayagirira isuku bifashishije ibikoresho byabugenewe, harimo umuti w'amenyo, uburoso cyangwa se ugakoresha urudodo.

Uko iminsi igenda yiyongera, niko Leta igenda ishyiraho gahunda yo gutegura amahugurwa, ku bantu bose bakora mu nzego z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga cyangwa se serivisi baha abaza babagana bose.

Ni ngombwa gutoza abana bakiri bato gukura bagirira isuku amenyo yabo, kandi bagatozwa gukoresha umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bwagenewe gukoreshwa mu gihe cyo gusukura amenyo; kugira ngo batazakura bafite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo.

Amenyo ni igice cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu bityo rero agomba kwitabwaho agirirwa isuku cyane cyane ukoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburuso bw'amenyo, rimwe na rimwe abantu bamwe na bamwe bakunda gukoresha urudodo.

Buri muntu wese arasabwa kubungabunga ndetse no kwita ku menyo ye, ayagirira isuku. Kuko byaje kugaragara ko amenyo ari igice kigize umubiri w'umuntu, gihenze cyane kandi gifite agaciro. Bityo rero, buri wese arashishikarizwa kwita ku buzima bwe, akorera isuku amenyo ye.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturarwanda bose kugirira isuku amenyo yabo kuko amenyo ari igice gifite agaciro gakomeye kandi gihenze ku buzima bw'umuntu, bityo rero barasabwa kugirira isuku amenyo yabo bakoresheje umuti wabugenewe ndetse na korogate.

Leta y'u Rwanda irakangurira abaturage bose bo mu Rwanda, abafite abana bakiri batoya, kubajyana kwa muganga bakabahesha inkingo uko Leta yabigennye kugira ngo barusheho kwirinda indwara z'ibyorezo cyangwa se n'izindi ndwara zishobora kubataka.

Inzego z'ubuvuzi bw'amenyo mu Rwanda, zimaze gutera imbere ku rwego rushimishije. Aho usanga batanga serivisi zinoze kandi bakanakoresha ikoranabuhanga, mu gihe basuzuma amenyo ndetse n'igihe bibaye ngombwa ko hagira amenyo akurwamo.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage bose kugirira isuku amenyo yabo kuko amenyo ari igice cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu, ushobora gukora isuku ku menyo yawe ukoresheje urudodo, ushobora gukoresha umuti w'amenyo ndetse n'uburoso bwabugenewe.

Amenyo ari mu bice by'ingenzi bigize umuntu, bityo rero agomba kwitabwaho akagirirwa isuku hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe nka korogate ndetse n'uburoso bwabugenewe mu koza ayo menyo.

Gutanga uburere bunoze ku bana bakiri batoya, bituma bakura ari abantu bifitiye icyizere cy'ejo heza hazaza kandi bigatuma bakura bakavamo abantu bazima bafitiye akamaro igihugu, bagatanga umusanzu mu bintu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere ry'igihugu.

Hari ibikoresho byinshi bitandukanye, Leta yagiye ishyira mu mavuriro atandukanye, hirya no hino mu gihugu, kugira ngo bibashe kwifashishwa mu gihe batanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bageze mu za bukuru. Kandi abantu bamwe na bamwe iyo bibaye ngombwa ibyo bikoresho barabibaha bakabitwara burundu.

Leta y'u Rwanda irashishikariza abantu bose bakora mu nzego z'ubuvuzi kurushaho kunoza serivisi baha abaje babagana, cyane cyane kwita ku bantu bageze mu zabukuru bakabaha serivisi ku buryo bukwiye igihe baje babagana mu bitaro.

Mu Rwanda abaturage benshi bakoresha amashiga ya gakondo iyo bateka ibyo kurya, ariko muri iyi minsi Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gutanga amashiga ya cana rumwe ndetse n'amashiga ya gaze. Mu rwego rwo kongera imibereho myiza y'abaturage.

Mu muco nyarwanda ni ibisanzwe ko abantu bakuru bahabwa icyubahiro kandi bagahabwa agaciro kuko baba bafite ibitekerezo biruta iby'abandi bantu, abantu bakuru kandi bahabwa agaciro, bakitabwaho mu bikorwa bitandukanye, kandi bahabwa ijambo mu birori bitandukanye bakanagira inama abakiri bato.

Leta y'u Rwanda yakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyo kuzana utugare ikaduha abantu bafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, bikaborohereza gukora ingendo zabo aho bagiye hose. Ibi byaje kongera ubuzima bwiza bw'abaturage bose bafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, kuko usanga banezerewe kubera ingendo zabo zitakibavuna nka mbere.

Kwita ku bantu bagenda basatira izabukuru ni ibikogwa by'akadasohoka. Kuko bifasha umuntu uri kugenda agana mu zabukuru, kutiheba, akarushaho kumva ko ari kumwe n'umuryango mugari muri sosiyete umwitaho kandi bikamwongerera icyizere cyo kubaho.

Ni byiza kwita ku bantu bageze mu zabukuru, bakitabwaho cyane kuko bibarema icyizere, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza. Kandi ni ngombwa ko bagira umuntu ubaba hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi mu kubakorera isuku ndetse no kubitaho bisanzwe.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko iyo umwana wamwitayeho neza ukamuha uburere bukwiye bituma akura neza kandi agakura yifitiye icyizere cy'ejo hazaza, umwana urezwe neza akurana ubwenge kandi agakura afite intumbero.

Ni byiza gutoza abantu bose, ibikorwa byo kwita ku bantu bageze mu zabukuru, bakitabwaho ku buryo bukwiye kandi bagahabwa agaciro kuko aba ari abantu b'ingirakamaro, biba byiza iyo bitaweho kuko bituma bigirira icyizere bityo bigatuma barushaho kuramba.

Ni byiza kwita ku bantu bageze mu zabukuru bagategurirwa amafunguro ameze neza ateguranwe isuku, kandi akaba ari amafunguro yujuje ubuziranenge. Akaba akubiyemo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga. Bityo rero bigatuma umuntu ugeze mu zabukuru akomeza kugira ubuzima bwiza.

Kubera ikibazo cy'umuvuduko kiri kugenda cyataka abantu bose, haba abakuru cyangwa se abato ndetse n'abageze mu zabukuru, ni ngombwa gupima buri muntu wese ugeze mu bitaro, bakabanza bamufata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso kugira ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Abaganga bifashisha amakaye atandukanye, aho bagenda bandikamo imyirondoro y'abarwayi baje babagana, kandi bakanandikamo ibimenyetso bagiye basanga ku barwayi, kugira ngo baze kubyifashisha babagenera imiti, kugira ngo babashe kubavura, uburwayi bafite.

Ni ngombwa ko mu gihe muganga arangije guha serivise umurwayi, imiti yose yamwandikiye amusobanurira neza uburyo agomba kuyikoresha akamusobanurira amasaha agomba kunyweraho imiti yagenewe kandi bakamutegeka kuyinywera ku gihe.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru bityo kandi iranakangurira abantu babana n'abantu bari kugenda bagera mu zabukuru, kubitaho bakabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ari ibikorwa bijyanye no kubakorera isuku ndetse no kubagaburira ibiryo biteguranye isuko.

Ni ngombwa kwita ku bantu bageze mu za bukuru kuko iyo batitaweho neza, bibakuriramo kugira umwanda bityo bakaba bakandura indwara zitandukanye, bikaba byakangiza ubuzima bwabo. Abaganga bose rero n'abakora mu nzego z'ubuvuzi, basabwe kwita ku bantu bageze mu za bukuru, igihe baje babagana babakeneyeho serivisi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ihora ikangurira abantu bose bakora muri uru rwego rw'ubuvuzi cyane cyane abaganga, minisiteri irabashishikariza gutanga serivisi neza ndetse no kwakira neza abaje babagana bityo bagakora akazi kabo neza ntawe bahutaje.

Ni ngombwa kwita ku bantu bageze mu zabukuru, ukabitaho kandi bakagirwa isuku kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Kuko iyo batitaweho bagira umwanda bityo bigatuma bagira n'ubundi burwayi bukomoka ku mwanda.

Siporo ni igikorwa cy'ingenzi ku buzima bwa muntu, yaba ku bana bakiri bato, abakuru ndetse n'abagenda basatira izabukuru, buri wese akwiye gukora siporo, ku kigero cye, ndetse agakoresha imbaraga afite, adakoze siporo y'ivunagura.

Ikigega cyo ku isi cy'ubukungu cyagize ubufatanye ndetse n'imikoranire y'ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere, ku bintu bijyanye no kurandura burundu indwara z'ibituntu, SIDA ndetse n'indwara ya malariya.

Hari umunsi mpuzamahanga wagenewe kurwanya SIDA ndetse n'ubwandu bwayo. Uyu munsi wizihizwa ku rwego mpuzamahanga, aho batanga n'amahugurwa bagasobanurira abaturage uburyo iyi ndwara yanduramo ndetse n'uburyo bashobora kuyirinda.

Leta y'u Rwanda yarwanye urugamba rukomeye, rwo kumvisha no gutanga amahugurwa ku baturage, babasobanurira ibintu bijyanye no kuboneza urubyaro ariko kugeza ubu abaturage bose bo mu Rwanda, bamenye ibyiza byo kuboneza urubyaro, ubu babikora ntawe ubibahatirije.

Minisiteri y'ubuzima yakoze ubukangurambaga, ikangurira abaturarwanda bose kujyana abana kubakingiza bagahabwa inkingo uko bikwiye, kugira ngo bibafashe kugira ubuzima buzira umuze, kandi barusheho kugubwa neza, bityo bagire ubudahangarwa buhagije bw'umubiri.

Minisiteri y'Ubuzima irashishikariza abaturarwanda bose, cyane cyane ab'igitsina gore, kwitabira gahunda yo gufata urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo Leta ibashe guhangana no kurandura burundu, iki kibazo cya kanseri.

Leta y'u Rwanda yafashe gahunda yo gutanga amahugurwa ndetse no kwigisha abaturage bose, ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse no kurwanya uburwayi bwose bukomoka ku myanda.

Leta y'u Rwanda ifite gahunda yo gutanga inkingo zo kurwanya icyorezo cy'ubushita, bityo rero ni muri urwo rwego ihamagarira abaturarwanda bose, kwitabira gahunda yo gufata urukingo rw'iki cyorezo kugira ngo babashe kukirimbura burundu.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abakora mu nzego z'ubuvuzi bose kwita ku mibereho ndetse no kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'umwana batwite arusheho kubungabungwa neza.

Birabujijwe kwegera cyangwa se gukora ku muntu uwo ariwe wese wapfuye yishwe n'icyorezo runaka, utambaye ibikoresho byabugenewe kuko ibi byakugiraho ingaruka kandi nawe waba ushizeho ubuzima bwawe mu kaga kwandura icyo cyorezo cyahitanye uwo muntu.

Ishami rishinzwe ubuzima mu Rwanda, rirashishikariza abaturarwanda bose, gukaraba intoki mu buryo bukwiye, ndetse n'isabune n'amazi meza, kugira ngo barusheho kwirinda, icyorezo cy'indwara y'ubushita.

Abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi basabwa kwambara imyenda y'akazi, bakikwiza kugira ngo birinde kuba bakwandura indwara ziba zaranduwe cyangwa se zarahitanye abarwayi.

Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda itanga amahugurwa ku baganga batandukanye bose bakora mu nzego z'ubuvuzi kugira ngo bakomeze kurushaho gutanga serivisi nziza kandi zinogeye buri umwe wese, ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abaganga bamwe na bamwe badatanga serivisi zinoze.

Ni ngombwa kwita ku mwana kuva akivuka cyane cyane kugera ku mezi cumi n'umunani. Biba byiza iyo abaganga bamukurikiranye, bakamutoza gufata imfashabere binyuze mu mubyeyi wamwibyariye kuko niwe ugomba kwita cyane cyane ku mwana yabyaye.

Mu Rwanda hari imishinga myinshi ijyanye no kwagura inyubako zikorerwamo ubuvuzi ndetse n'inyubako zo gukoreramo siporo ku rwego rutandukanye, aho usanga inyubako zimwe na zimwe zibitsemo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri.

Hirya no hino mu bitaro byose byo mu Rwanda, buri bitaro bigira ibyumba bitandukanye, basuzumiramo abarwayi; buri cyumba kigira igitanda bashobora gusuzumiraho umurwayi, bitewe n'ikibazo cy'uburwayi runaka afite.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kongera ingufu, mu nzego za Minisiteri y'Ubuzima. Aho bongeye umubare w'ibitanda, bikoreshwa mu bitaro kugira ngo babashe kwakira abarwayi benshi kandi babashe no kubitaho ku buryo buhagije, kurusha uko bakomeza kwita ku murwayi, bamusanga iwabo mu rugo cyangwa se bakamwitaho batari hamwe imbonankubone.

Mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ababyeyi bapfa bari kubyara, ndetse n'impfu z'impinja zipfa ziri kuvuka, Leta y'u Rwanda yongeye ibyumba by'abagore byifashishwa mu gihe cyo kubyara, ndetse yongera n'umubare w'abaganga, babafasha mu gihe cyo kubyara.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje kongera ingufu mu bikorwa byo kongera ibitaro bivura kanseri, aho hubatswe ibitaro mu karere ka Burera, mu murenge wa Butaro, bivura kanseri kandi bagashyiramo abaganga b'inzobere babifitiye ububasha bwo kuvura kanseri.

Mu nzego z'ubuzima hajemo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, aho umuturage ashobora kwishyura mituweli anyuze ku irembo kandi haje ikoranabuhanga ryo gupima ibintu bijyanye n'umuvuduko w'amaraso, aho buri muntu wese bamwambika igikoresho bakoresha, kikabasha gupima umuvuduko w'amaraso ye.

Leta yafashe ingamba zo kongera umubare w'ibitaro, aho bafashe umwanzuro wo kugenda bagura inyubako hirya no hino mu gihugu, kugira ngo bashobore kubasha kwakira umubare w'abarwayi benshi baza babagana, kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko rimwe na rimwe ibitaro biba bitoya bitewe n'ikibazo cy'abarwayi benshi baje babagana.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera ingufu mu bikorwa remezo bijyanye n'ubuvuzi cyane cyane ibitaro, ndetse no gushora amafaranga mu bintu bijyanye no kugura ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, kugira ngo barusheho gusigasira amenyo y'abaturage.

Leta y'u Rwanda ishishikajwe no kongera inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko abaturage bakomeje kugenda biyongera uko imyaka igenda yiyongera bityo rero, ni ngombwa kongera ubuvuzi ndetse bakanakwirakwiza serivisi z'ubuvuzi ku baturage bose, haba abo mu mujyi ndetse no mu byaro.

Ibitaro byose ndetse n'ibigo nderabuzima, bigira ibyumba byihariye byakiriramo ababagana, bagakorerwa isuzuma ry'uburwayi bafite, mbere y'uko hemezwa imiti yo guha abo bantu barwaye kugira ngo bitazabagiraho ingaruka.

Leta y'u Rwanda iri mu mushinga mwiza wo gukomeza kongera inyubako zo gukoreramo ndetse no gutangiramo serivisi z'ubuvuzi. Ni mu rwego kandi rwo kwegereza serivisi abaturage kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kubungabungwa neza.

Leta y'u Rwanda yongeye umubare w'abaganga bakora mu bitaro bitandukanye, kugira ngo barusheho kunoza serivisi, ku bantu bose baza babagana. Ibi kandi byakozwe nyuma y'uko ubushakashatsi bwari bwagaragaje ko abarwayi baba benshi kwa muganga, bakabura ababaha serivisi.

Ni ngombwa kwita ku mubyeyi utwite kuva agisama inda kugeza igihe umwana avukiye kandi bikaba byiza n'umwana iyo amaze kuvuka, iyo akomeje akitabwaho kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, binyuze muri serivisi umubyeyi ahabwa kwa muganga.

Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda yagura ibikorwa remezo, harimo imihanda yifashishwa mu bijyanye n'ubucuruzi, iyi mihanda kandi yifashishwa n'abaturage nabo bakora business zitandukanye z'ubucuruzi, bavana ibicuruzwa mu gice kimwe babyerekeza mu bindi bice bityo bikabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Mu bitaro dusangamo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga. Ibyo bikoresho dusangamo ameza ndetse n'utubati bifashisha babika imiti. Ibi bikoresho byose bifasha mu gutanga serivisi inogeye abaje babagana.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gufasha abantu bose babana n'ubumuga bw'amaguru mu rwego rwo kuborohereza gukora ingendo aho bagana hose, bityo rero yashyizeho utugare duhabwa n'abantu bafite ubwo bumuga kugira ngo babashe kugera iyo bajya.

Leta y'u Rwanda ishishikajwe no kongera umubare w'ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima mu gihugu hose kugira ngo babashe kwegereza abaturage bose, serivisi zitangwa mu buvuzi. Ibi kandi bigakorwa bijyana no kongera umubare w'abaganga kuko Leta y'u Rwanda yashinze amashuri atandukanye, atoza abantu umwuga w'ubuganga.

Urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda rumaze gutera imbere, aho usanga Leta yariguriye n'ibigo byigenga kugenda bubaka amakirinike n'amaforumasi hirya no hino mu gihugu kugira ngo barusheho gukwirakwiza serivise z'ubuvuzi ku baturage bose.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari umushinga wo kubaka inyubako nyinshi, mu rwego rwo kugira ngo bagure inyubako zikorerwamo kandi zikanatangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Ni muri urwo rwego rero, hashyizweho gahunda yo kwagura ibyumba bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo barusheho kubasha kwakira umubare munini w'abarwayi

Leta ikomeje gushyira imbaraga mu kubaka inyubako zigezweho kandi ziteye imbere zo kwifashishwa mu gihe batanga serivisi z'ubuvuzi, basigaye bashyiraho n'amajaride atandukanye kugira ngo abarwayi bamwe na bamwe bajye babasha gutembereramo.

Leta y'u Rwanda ikomeje umushinga wo kubaka inyubako nyinshi zitandukanye hirya no hino mu gihugu kugira ngo barusheho kongera umubare w'ibitaro bishobora kwifashishwa mu gutanga serivise ku barwayi baza bagana abaganga.

Abaganga basigaye bakoresha ikoranabuhanga mu bikorwa byabo bya buri munsi by'ubuvuzi, aho bakoresha computer cyangwa se mudasobwa, basesengura neza ibizamini baba bafatiye abarwayi. Si ibyo gusa kandi, abaganga bakoresha computer, bandika imyirondoro ndetse bakora n'amafishi y'abarwayi.

Hari inyubako nyinshi zikomeje kubakwa mu gihugu kugira ngo babashe gutanga serivisi zinogeye abaturage mu nzego z'ubuvuzi, ntitwakibagirwa kandi kuvuga ibikoresho bigezweho, byifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Leta zitandukanye zikomeje kongera ingufu mu bikorwa bijyanye no kongera ibitaro ndetse no kongera umubare w'abaganga, kugira ngo barusheho gutanga serivisi zinoze ku mubare w'abantu benshi baza babagana bakeneye serivisi zabo.

Inzego z'ubuzima mu Rwanda zimaze kugera ku rwego rushimishije, aho dusanga baragiye bubabaka amalaboratwaro atandukanye hirya no hino yo kwifashisha mu gihe bari gupima indwara zitandukanye cyangwa se bakora ubushakashatsi ku ndwara runaka.

Mu Rwanda hakomeje kubakwa ibikorwa by'indashyikirwa, mu rwego rwo kugira ngo bongere serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi, ibitaro bikomeje kubakwa hirya no hino mu gihugu, ndetse bakwirakwiza amavuriro mu baturage.

Mu Rwanda hari gahunda yo gukwirakwiza serivisi z'ubuvuzi ku baturage bose mu gihugu, aho Leta y'u Rwanda yashyizeho icyiciro cy'abaganga aricyo cy'abanyabuzima. Abanyabuzima bakwirakwira mu baturage, bakagenda babapima uburwayi butandukanye kandi bakaba n'ubutabazi bw'ibanze.

Leta y'u Rwanda yatanze uburenganzira ku bigo byikorera kugira ngo nabyo bigire uruhare mu kubaka amavuriro ndetse n'amakinike, hirya no hino mu gihugu, kugira ngo barusheho gukwirakwiza serivisi z'ubuvuzi ku baturage bose.

Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kongera serivisi zitangwa mu cyiciro cy'ubuvuzi yashyizeho gahunda yo kwagura inyubako hirya no hino mu gihugu, yongera ibigo nderabuzima ndetse yongera n'umubare w'abajyanama b'ubuzima bashobora gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze mu baturage.

Leta y'u Rwanda mu bushobozi ifite, yagerageje kwagura amashami y'ubuvuzi aho bubatse ibitaro bitandukanye hirya no hino mu gihugu; kandi bashyiraho gahunda yo guha uburenganzira ibigo byigenga kugira ngo na bo babashe gushinga amafarumasi ashobora gutanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage.

Leta z'ibihugu zitandukanye, ziri gushora amafaranga menshi mu bikorwa bijyanye no kubaka ibikorwa remezo, cyane cyane hibanda mu kongera inyubako z'ibitaro, kugira ngo barusheho kongera serivisi zijyanye no gusigasira ubuzima bw'abaturage.

Leta y'u Rwanda yaguye inyubako nyinshi zitandukanye, igenda yongera ibyumba byo kwakiriramo abarwayi kugira ngo harusheho kunozwa imitangire ya serivise ku bantu bose baza bagana ibitaro bitandukanye hirya no hino mu gihugu.

Leta y'u Rwanda yashyize ingufu mu kongera ibikorwa remezo, cyane cyane ibijyanye n'inzego z'ubuzima, urugero dusangamo, ibitaro, ndetse n'ibikoresho bifashisha mu bitaro bapima uburwayi, cyangwa se batanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bose.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitandukanye hirya no hino kugira ngo ikemure ikibazo cy'abarwayi benshi baba bari mu bitaro, bityo rero ibi bizafasha koroshya ubuvuzi ndetse no gutanga serivisi inoze ku bantu bose baza bagana amavuriro.

Leta y'u Rwanda iri mu mushinga mwiza wo kwagura ibikorwa remezo nk'inyubako zakwifashishwa mu kongera serivisi zitangwa mu nzego z'ubuzima, harimo ibijyanye no kongera ibyumba bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse no kongera umubare w'abaganga bakora muri ibyo byumba.

Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda zimaze gutera imbere ku rwego rushimishije, aho bagiye bazana imiti ivura umugongo kurusha uko mbere mu myaka yashize umuntu yarwaraga umugongo akamara igihe kirekire awivuza udakira.

Ni ingenzi cyane kandi ni n'iby'agaciro gakomeye kunywa amazi meza asukuye kandi ukarya n'imbuto ziteguranye isuku. Kuko ibi byose bituma urushaho kugira ubuzima bwiza kandi bikakurinda kuba wakwandura indwara zitandukanye.

Buri gihe minisiteri y'ubuzima ikangurira abantu bose kunywa amazi meza asukuye cyangwa se amazi yanyuze mu ruganda, urugero dusangamo uruganda rw'Inyange ndetse n'uruganda rw'Akandi. Izi nganda zose zitunganya amazi, zikayakuramo imyanda ku buryo yanyobwa n'abantu bose ntabagireho ingaruka.

Kurya neza ukarya indyo yuzuye ndetse ukarya n'imbuto ugakora n'ibikorwa bya siporo bitandukanye, biri mu bintu bituma urushaho kugira ubuzima bwiza kandi bikagufasha no kugira ubudahangarwa buhagije bw'umubiri.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturarwanda bose kwitabira ibikorwa bya siporo. Kandi buri gihe uko basoje siporo bakanywa amazi meza asukuye cyangwa se atetse kugira ngo birinde ikibazo cya mikorobe zishobora kubatera uburwayi.

Inzego z'ubuvuzi zimaze gutera imbere ku rwego rushimishije, aho usanga mu nyubako zitandukanye zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bigezweho. Ibyo bikoresho harimo bimwe by'ikoranabuhanga, bashobora kwifashisha basuzuma abarwayi, ndetse n'ibitanda bigezweho, baryamishaho abarwayi.

Kunywa amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kuko bituma igogora rikora neza. Si ibyo gusa kandi, amazi afasha impyiko, agatuma impyiko zikora neza akazi ko kuyungurura amaraso.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'abaturage, aho usanga abaturage bakora siporo bafite ubuzima bwiza, siporo kandi iri mu byiciro bitandukanye. Ushobora gukora siporo wikinra umupira w'amaguru, ushobora gukora siporo usimbuka hejuru, kandi ushobora no gukora siporo unanura amaboko cyangwa se unanura umugongo.

Amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu wese uyanywa kuko amufasha gutuma igogora rikora neza, agatuma amaraso agenda neza kandi amazi afasha mu kugabanya stress bityo umuntu akarushaho kugubwa neza.

Ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda bwagaragaje ko iyo umuntu ariye neza, akarya indyo yuzuye ikubiyemo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga, agakora na siporo arushaho kugira ubuzima bwiza kandi bikamurinda kuba yarwara indwara zitandukanye.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose kunywa amazi meza kandi asukuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko umuntu unywa amazi meza agira ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturarwanda bose, kwitabira igikorwa cya siporo, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko umuntu wese ukora siporo kandi akarya neza akarya indyo yuzuye, arushaho kugira ubuzima bwiza.

Hari inyubako zabugenewe zikorerwamo siporo kandi izo nyubako usanga zifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'umuntu uwo ari we wese witabiye icyo gikorwa cya siporo kandi muri iyo nyubako usangamo n'abantu bagufasha gukora siporo runaka.

Ibitangazamakuru bitandukanye bigenda byandika amakuru ajyanye no ku kamaro ka siporo, aha byaje kugaragaza ko umuntu ukora siporo arushaho kugira ubuzima bwiza, kandi bikamurinda kuba yarwara nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso cyangwa se n'indwara z'imitsi.

Umuntu wese uganye ibitaro, iyo afite uburibwe bw'imvune bukabije yangiritse ku mubiri bamuha igikoresho cya barafu cyo kwifashisha kugira ngo agabanyuke uburibwe afite, bityo rero abaganga bamuba hafi bakamukorera ubufasha bwihuse kugira ngo abashe kubona serivisi zinoze.

Ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko iyo umuntu ariye neza ari uko aba yariye indyo yuzuye. Akarya ibitera imbaraga ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu wariye neza iyo akoze siporo arushaho kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni igikorwa cyiza ku mubiri w'umuntu ndetse n'ubuzima bw'abaturage muri rusange, umuntu wese ukora siporo arangwa no kugira ubuzima bwiza ndetse no kugira umubiri ukomeye, ibi rero biba byiza iyo umuntu asoje ibikorwa bya siporo akanywa amazi meza asukuye.

Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gukora siporo, muri ubwo buryo dusangamo kunyonga igare, gukina umupira w'amaguru, gukina umupira w'amaboko, kwinanura, gusimbuka umugozi, kwirukanka mu muhanda ndetse no kuzenguruka mu kibuga.

Siporo ni igikorwa cyiza ku buzima bw'umuntu, kuko gifasha ukora siporo kugira ubuzima bwiza, ndetse no kunanura umubiri we. Mu bikorwa bya siporo kandi dusangamo, n'ibikorwa bijyanye no kumasa umuntu, kugira ngo umubiri we urusheho kunanuka.

Ni ngombwa kwambara uturinda ntoki igihe umuntu agiye mu bikorwa bya siporo kandi akambara n'indi myambaro yabugenewe kuko ibi bimufasha ku murinda gukomereka igihe akoze impanuka, ari mu bikorwa bya siporo.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage aho dusanga ko abaturage benshi bayikora nk'akazi kabo ka buri munsi kandi bakabihemberwa, urugero twavugamo abatoza ndetse n'abakinnyi babikora nk'akazi kabo ka buri munsi.

Mu nzego z'ubuvuzi dusangamo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, cyane cyane aho dusangamo ibikoresho nk'amapombo bifashisha batera imiti, ibikoresho bifashisha bapima ubushyuhe bw'umubiri ndetse tukanasangamo ibikoresho bifashisha bapfuka ibisebe by'abantu baje babagana bangiritse.

Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda zimaze gutera imbere ku kigero gishimishije aho usanga mu bitaro byinshi hari inkoni zabugenewe baha abantu bafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru batabasha gukandagira neza, bakazifashisha bazishigikiriza kugira ngo babashe kugenda neza.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'abaturage bose, kandi biba byiza iyo umuntu wakoze siporo asoje igikorwa cya siporo, akanywa amazi meza, atunganyije kandi afite isuku, ibi bifasha umuntu wakoze siporo kugira ubuzima bwiza.

Hari uburyo butandukanye bwo gukora siporo. Nko kumanika amaboko hejuru, gusimbuka umugozi, guhanika amaguru cyangwa se gukina umupira w'amaguru, ibi byose bikugwa mu gihe umuntu ashaka gukora siporo mu buryo yishimiye.

Ibikorwa bya siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu ariko ni ngombwa ko igihe umuntu akora siporo, ayikora yitwararitse kandi agakora siporo yambaye ibikoresho byabugenewe, ku buryo bishobora kumurinda mu gihe akoze impanuka ari mu bikorwa bya siporo.

Siporo ni igikorwa cy'ingenzi gikorwa n'umuntu uwo ari we wese kuko ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, umubiri we ugakomera kandi bigatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri kandi umuntu wese wakoze siporo aba ashishikarijwe kunywa amazi meza nyuma yo kuva muri siporo.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu. Abantu benshi bakora siporo mu buryo butandukanye. Hari abayikora mu buryo bwo kwidagadura cyangwa se uburyo bwo kwishimisha, abandi bakora siporo ku buryo bumeze nk'akazi kabo ka buri munsi, naho abandi bakora siporo mu bikorwa bijyanye n'amarushanwa.

Kubera ikibazo cy'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, cyatatse benshi mu Rwanda haba urubyiruko, abakuru ndetse n'abageze mu zabukuru, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gupima umuntu wese uje agana ibitaro aje gushaka serivise z'ubuvuzi, nubwo yaba aje kwivuza ubundi burwayi butari umuvuduko w'amaraso.

Siporo ni igikorwa cyiza gishobora gukorwa n'abantu mu buryo butandukanye. Bamwe bakora siporo nko mu rwego rwo kwidagadura, abandi bagakora siporo nk'akazi kabo ka buri munsi kandi bakabihemberwa. Abandi bakora siporo nk'amarushanwa arimo ibihembo bitandukanye.

Tungurusumu ni bimwe mu bimera, bivura indwara nyinshi zitandukanye. Tungurusumu kandi, yifashishwa n'inzego z'ubuzima zitandukanye, aho bazininyuza mu nganda, bagakoramo imiti ishobora kuvura uburwayi butandukanye, kandi iyo miti ikaba ifite ubuziranenge.

Mu nzego z'ubuzima, hakomeje kugenda hatangwamo amahugurwa mu ngeri zitandukanye, aho abantu benshi bahabwa amahugurwa, kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga mu nzego z'ubuzima, ntitwakwibagirwa kandi kuvuga ko abajyanama b'ubuzima bagira uruhare runini mu iterambere ry'inzego z'ubuzima.

Ibimera byinshi byifashishwa n'inganda, aho byifashishwa bakoramo imiti yabugenewe yo kwifashishwa mu kuvura abarwayi. Iyi miti ikorwa mu bimera bayicisha mu nganda, igasohoka ari imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera ni bimwe mu bintu byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, iyo bakora imiti ituruka mu nganda. Ikintu bakora, bifashisha ibimera, bakora imiti ifite ubuziranenge. Kurusha uko abaturage bo, bahita bakoresha ibimera uko bimeze, babasha kwivura indwara zabo.

Inzego z'ubuvuzi byaje kugaragara ko zifashisha ibimera mu gukora imiti baba banyujije mu ruganda. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko abaturage bo ubwabo bakoresha ibimera bitanyuze no mu ruganda, bakabikoresha bivura indwara zitandukanye.

Umuryango ushinzwe ibijyanye na siyanse ku isi, igihe kiragera abawugize cyangwa se abamambure bawo, bagahurira hamwe, bakaganira kubifite akamaro ndetse n'uburyo bwo kongerera ingufu siyanse, cyangwa se bakanareba n'ibibazo bishobora kuba biterwa na siyanse mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage.

Ubushakashatsi n'ubuvumbuzi, bikomeje gushyirwamo imbaraga cyane, kugira ngo barusheho kureba niba bakomeza gukora ubuvumbuzi bw'imiti, cyane cyane imiti ituruka ku bimera, kuko byagaragaye ko ari yo miti itanga ubuvuzi kandi bwizewe.

Ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu, bwagaragaje ko ibimera akenshi bikunda kwifashishwa n'abaturage, bivura indwara zitandukanye, cyane cyane nko komora ibisebe, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko abakora mu nzego z'ubuvuzi bifashisha ibimera, bakabinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko ibimera byifashishwa cyane mu gukora imiti, aho babinyuza mu ruganda, hagasohoka imiti yujuje ubuziranenge, ishobora kwifashishwa n'ibitaro bitandukanye, mu kuvura abaturage no gutanga serivisi zinoze.

Hari ibimera byinshi byifashishwa n'abaturage, bakabikoresha bivura indwara zitandukanye, ariko inzego z'ubuvuzi zo, zifashisha ibyo bimera, zikabinyuza mu ruganda, bagakoramo imiti ifite ubuziranenge.

Hari ibimera byinshi byifashishwa mu nzego z'ubuvuzi, aho ibyo bimera byifashishwa bakuramo imiti yabugenewe. Babinyuza mu nganda hagasohokamo, imiti yujuje ubuziranenge. Kurusha uko yagakwiye gukoreshwa, itanyuze mu ruganda ikaba yakangiza ubuzima bw'abaturage.

Ibimera byinshi mu Rwanda ndetse no ku Isi hose, byifashishwa n'inzego z'ubuvuzi, bakoramo imiti, bakabinyuza mu nganda, bagasohora imiti yujuje ubuziranenge, itagira ingaruka ku buzima bw'abaturage. ariko abaturage bamwe na bamwe, bifashisha ibyo bimera bivura indwara zimwe zitandukanye.

Hari ibimera byinshi byifashishwa n'abaturage mu kwivura indwara zitandukanye. Ariko Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturarwanda bose, kwitabira ibitaro bakabigana igihe cyose bumva bafite uburwayi, kurusha uko bakoresha imiti ya gakondo kubera yuko iba itizewe ubuziranenge bwayo.

Ibimera byinshi nabyo bifite akamaro muri iyi si dutuye, kuko ibyinshi muri byo byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, bakabinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge, aha kandi ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ibimera byinshi ari isoko y'imiti inyura mu nganda.

Ibimera byinshi byifashishwa n'abaturage nk'imiti ya gakondo bashobora kwifashisha biyomora ibisebe. Kandi na none ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko, inzego z'ubuzima zikoresha ibimera, iyo bakora imiti bakabinyuza mu ruganda bityo hagasohoka imiti yujuje ubuziranenge.

Mu rwego rwo kunoza inzego z'ubuvuzi gakondo mu Rwanda, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda, yo kwegurira abikorera ndetse n'abakora ku giti cyabo kugira ngo bashore amafaranga mu bikorwa bijyanye no kwagura amavuriro ndetse no gushinga za Farumasi hirya no hino mu gihugu.

Ibimera byinshi bitandukanye bikoreshwa nk'imiti ya gakondo bikoreshejwe n'abaturage, ariko inzego z'ubuvuzi zifashisha ibyo bimera bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge inyuze mu nganda zitandukanye.

Hari imiti myinshi ikorwa n'uruganda, ariko iyo miti iba yaturutse ku bimera bitandukanye. Bityo bakayinyuza mu nganda, kugira ngo bayongerere ubuziranenge, kandi irusheho gufasha mu kuvura abaturage.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ibimera ari bimwe mu bintu byifashishwa cyane n'abantu bakora mu nzego z'ubuzima kugira ngo babyifashishe bakora imiti bakabinyuza mu nganda bityo bagasohora imiti imeze neza yujuje ubuziran....